Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, imbere yaryo hari matela yzegetsetse ku itara, hari n'intebe hamwe n'imyenda igurishwa.

Imodoka iri guca mu muhanda, haruguru y'uwo muhanda, hari amazu ari munsi y'amapoto y'amashanyarazi kandi ayo mazu ateyemo ubusitani hamwe n'ibiti.

Abantu barimo kwambuka hamwe n'abamotari bategereje abagenzi batwara hamwe n'imodoka zirimo zigenda zerekeza aho zigomba guparika, izindi zijya mu kazi.

Umugabo arimo arigisha abanyeshuri, ukuntu bakoresha bimwe mu bikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, mu kuzimya igihe batewe n'ikibazo.

Ibikoresho byo kuzimya umuriro bikoreshwa mu kwitabara, mu butabazi bw'ibanze mu gihe ubutabazi bunini butari bwaza kandi bikoreshejwe nka puderi.

Amapikipiki ahagaze ahabugenewe, umupolisi ari kubasobanurira uburyo bagomba gukoresha umuhanda batabangamiye abandi cyangwa ibindi binyabiziga.

Ingabo za gipolisi z'u Rwanda, zihagaze ziteguye kujya mu kazi, zihetse ibikapu kandi bafite n'imbunda zikoreshwa mu kurinda umutekano.

Abaturage bitabiriye umuhango wo kwamamaza umukuru w'ishyaka rya FPR ari we Paul Kagame kandi arimo arababwira ijambo ry'umunsi.

Abantu babiri bari mu cyumba cy'itora, harimo umwe umaze gutora agiye gushyira urupapuro ahabugenewe ushyira umaze gutora ijwi ryawe.

Umugabo wikoreye umufuka ari kwambuka umuhanda asatira igikamyo, nakirengaho ajye ku rundi ruhande rw'umuhanda abashe kugenda.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, kimwe n'igikamyo cy'umutuku cyagenewe kwikorera ibitaka cyangwa imicanga, indi ni moto itwaye umuntu.

Amakamyo atatu ahagaze mu muhanda, imwe iri imbere, irimo umugabo, izindi ebyiri ziri inyuma, indi irapakiye, indi na yo ntago ipakiye, harimo umuntu inyuma gusa.

Ikinyabiziga kiri gukata umuhanda kijya iburyo, cyikoreye imizigo itwikirijwe shitingi y'ubururu, iruhande rwacyo hahagaze abantu.

Umuhanda uri gutambukwamo n'ibinyabiziga ku ruhande, hari inzira y'abanyamaguru, naho abanyamaguru bari gutambuka, ikinyabiziga kimwe ni moto, ikindi ni igare ritwawe n'umugabo.

Bisi iriho icyapa gishishikariza abanyeshuri bize kaminuza ku nguzanyo ya BRD, kugira ngo bishyure barumuna babo nabo babone uko biga.

Umuhanda urimo imodoka ziri gutambuka hamwe n'abanyamaguru bari kwambuka n'abandi bagendera ahabugenewe, aho abanyamaguru bagendera.

Ahantu hagenewe kuruhukira mu gihe uri muri gahunda zawe mu mujyi, hari abantu b'ingeri nyinshi bari gucuruza ama inite n'abandi benshi bari mu kandi kazi gatandukanye.

Icyapa giteye mu busitani imbere y'ibiti, icyapa kigaragaza umuhanda ko ari ukuzunguruka kugirango ngo uwucamo.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku, giteguza umuntu utwaye ikinyabiziga ko agiye gusatira ahantu hari feruje.

Inzu zegeranye n'urugomero rw'amashanyarazi, ikikijwe n'insinga z'amashanyarazi kandi hamwe n'insina n'ibindi biti bitandukanye.

Imodoka ziri mu muhanda, harimo igikamyo kirimo kiragenda hamwe n'ivatiri iparitse ku cyapa, ifunguye umuryango imbere y'icyapa cy'ubururu.

Ububiko bwi'ibyokunywa bukubiyemo imitobe umuhondo, umutuku n'amata bubitse mu buryo bwo kugirango bukonjeshwe bukunze kwifashishwa n'abacuruzi kugira ibyo kunywa bidapfa kandi babishyikirize abaguzi bimeze neza.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo abanyamaguru bagomba kwambukiramo bavuye mu kayira kabo, ukomeje uwo muhanda hari lompuwe irimo icyapa kigaragaza ko iri lompuwe.